Arimo kwiborosa amenyo yireba mu ndorerwamo, areba ko amenyo ye yakeye, yambaye agasengeri, uburoso bw'ubururu buvanzemo umweru, yipfutse igitambaro cy'umweru afite n'umusatsi mwinshi.